Ifumbire y'inkoko riba ririmo utuyoka twinshi, riguye mu biryo ukabirya warwara inzoka ntago wazazikira. Kubere ukuntu ziba ari nyinshi mu matoto.

Abantu bahinze ibigori bagura umuti bakawuvangira n'amazi bakabitera, kugira ngo wice udukoko, ibigori bizagira umusaruro uhagije babigurishe, ibisigaye babirye.

Umuti batera ibirayi, uba upfunyitse mu ishashi isa neza, ifunze hose, kugira ngo udapfumuka, umwana akaba yawunywa akaba yahatakariza ubuzima bwe, niyo mpamvu uruganda ruwukora, ruwushyira mu mashashi akomeye.

Ifumbire mvaruganda ifasha igihingwa gukura neza, kigakura gifite amababi asa neza, kikera imbuto nyinshi, ba nyiracyo bakabona umusaruro uhagije.

Mu byaro bagura fuso z'amafumbire bakayateza imyaka yahabo. Ifumbire rigira akamaro kanini cyane ku bihingwa kubera ko bituma byera vuba bikagira ibara ryiza, uwabihinze akagira umusaruro uhagije.

Gutera inyanya umuti byica udukoko, bigatuma zera vuba zikagira ibara ry'icyatsi, ntizangirike, ntiziborere mu murima, bakazisarura zeze neza.

Gutera ibigori n'imvaruganda ni byiza cyane, byongera umusaruro, umuhinzi akabona umusaruro uhagije akiteza imbere, n'ibihingwa bye bikera neza, bifite amababi asa neza bibyibushye.

Ubutaka bwiza kugira buzatange umusaruro uhagije, bugomba kuba burimo ifumbire ryinshi, ry'imborera rituma ibishyimbo byera vuba. Imyaka yose uteyemo igatanga umusaruro mwinshi.

Imiti yo gutera imyaka igomba kuba ifunze mu bishashi byabugenewe, kugira ngo hatagira uwo yangiriza ikaba yamutera ibibazo bitandukanye .Abantu benshi bakunda kuyigura bakayitera imyaka yabo.

Isambaza ziraryoha cyane iyo zikaranze. Zigomba kuba zimeze neza kugira ngo uzirya yumve amerewe neza afite apeti, zikamutera intungamubiri mu mubiri we.

Amafi iyo bakiyaroba aba asa umweru, arikwinyagambura bakajya ku yateka mu mahoteli, araryoha cyane, abantu benshi barayakunda.

Ifunguro rya buri munsi rigomba kuba riteguranwe isuku risa neza, ririmo intungamubiri zose zikenewe n'umubiri, rikaba ririmo ibitunga umubiri n'ibitera imbaraga.

Ifi abantu benshi barayikunda, iyo iriho ibirungo bitandukanye, hariho imboga, hariho n'indimu, n'umuceri na makaroni, biba ari indyo yuzuye, niyompamvu abantu benshi bayikunda.

Ifi itetse neza igira isosi isa neza n'ifiriti ku ruhande, abantu bakunda kuyigurira muri hoteri, kubera ko iba yatetswe n'abantu babyigiye nta mwanda uba urimo.

Amafi araryoha cyane, iyo akaranze mu mavuta. Ariho ibirungo byose, hariho n'ibitunguru, n'indimu, n'inyanya, n'ibintu by'ibisereri biraryoha cyane.

Ibiryo bifite isuku abantu benshi barabikunda cyane, birinda indwara, bitera vitamini nyinshi mu mubiri, kurya ibiryo bifite isuku ni byiza cyane kuko biba bikenewe mu mubiri w'umuntu.

Amafi iyo akiri mashyashya agira abakiriya, kubera ko bakunda kuvuga ngo niyo aba afite vitamini, araryoha cyane, bayateka mu mahoteli nta muntu utayarya, kubera uburyohe agira.

Imikati irambitse ku isiniye hariho n'indimu na sereri, babirisha ifoke kugira ngo ubirya yumve ameze neza nta kibazo na kimwe afite mu mubiri.

Isambaza ziraryoha cyane, bazirisha umuceri abarobyi baziroba mu mazi yo mu kivu, no mu kiyaga, ubundi bakiteza imbere kubera kubona abakiriya benshi bazikunda.

Umuhinzi iyo yahinze ibirayi, kugira azabone umusaruro uhagije ,atera n'ibishyimbo ku ruhande, akabishingirira ,bituma yeza cyane akagira amafaranga.

Insina z'inshakara zigira igitoki kirekire n'umutumba munini n'amakoma magari, kikaba ari igitoki kiryoha cyane iyo ba gitetse mu bishyimbo.

Igihugu cy'urwanda, kigirama imirima myiza n'ibirunga byiza, abaturage bakunda kuragira amatungo yabo muri iyo mirima.

Mu cyaro, ku rugo bahatera insina z'ibitoki, bikera, barangiza barabiteka, ibindi babikamamo umutobe, biraryoha cyane, imineke kubera ko biba biteye hafi y'urugo.

Abaturage benshi bakunda gutera indabo ku muhanda kugirango abantu ntibahabona babone hasa neza, urujya n'uruza rw'abantu iyo rukunze kunyura kuri iyo mihanda iteyeho indabo, rurahakunda cyane rubona ari aho icyitegererezo.

Urutoryi rurera cyane, barukoramo imboga, abandi barazigurisha, intoki ziryoha ku muceri, washizemo n'umunyu n'amavuta n'inyanya, biraryoha cyane.

Ibirayi bya kinigi iyo bihinze mu murima bigira uruyange rw'umutuku. Abantu barabifumbira iyo babihinze, kugira ngo bizatange umusaruro uhagije, babijyane ku masoko babigure babone amafaranga.

Umurima iyo bamaze gusaruramo ibigori, abashumba bakunda kuragiramo intama n'inka zikarishamo ubwatsi kugira ngo zihage cyane ,zitanga umukamo mwinshi uhagije ,babone n'amafaranga ya nyiri izo nka.

Iyo barangije gusarura mu kinyandaro abashumba baragiramo inka n'intama zikarisha ubwatsi, zigahaga ,zigatanga umukamo uhagije abantu bakanywa amata.

Buri muhinzi iyo agiye guhinga imyaka, agomba guhinga imitabo miremire, bikamufasha mu kweza umusaruro uhagije, ntagire ikibazo cy'ubukungu, agahorana imyaka mu nzu ye.

Ibidodoki birimo igiti biraryoha ,iyo bitekanye n'izindi mboga washyizemo n'ibirungo, biba ari byiza kubirya bikaranze.

Buri rugo rugomba guhinga ibidodoki, kubera ko ibidodoki ari ingirakamaro, bifasha umuntu iyo yabuze icyo guteka, akabiteka bitogosheje na mababi yabyo, aba arimagari asa n'icyatsi, bayashiramo n'umunyu biraryoha.

Ibirayi biraryoha cyane, iyo birunze mu nzu, bifite umwuka wisanzuye , bibirinda kubora, bikaba nta kibazo na kimwe byagirira ahantu biri.

umugore iyo yahinze karoti neza yarazibagaye zimuha umusaruro mwinshi, iyo agiye kuzikura azikura yishimye akazijana ku isoko bakamuha amafaranga ahagije,l akiteza imbere.

Igihingwa ngengabukungu cy'ikawa gitanga umusaruro uhagije ku Gihugu no ku muntu uhinga bimuha amafaranga akiteza imbere n'umuryango we . Ikawa bayisoroma bahetse ibitebo arimwo bari kuyishira.

Intoryi iyo ba zitanditse ziba zifite ibara ry'icyatsi, ziri kumwe n'ibibiriganya, bifite ibara ry'umutuku bakabitekamo imboga, bakabirisha umuceri.

Abagore bavuye gusarura ikawa, bayikoreye mu bitebo bahetse n'abana, bakaba bivunishije kubera ko bikoreye byinshi, bikaba byakwangiriza abana babahetse mu mugongo.

Gutera ibiti bishimisha umuntu wese. Kubera bitanga umwuka mwiza duhumeka. Bikaturinda indwara z'ubuhumekero bikagabanya umwuka mubi mu kirere ,tugahumeka umwuka muzima.

Abahinzi bose bakwiye guhunika ibirayi bya Kinigi. Bigera icanga kimeze neza. Iyo bimaze iminsi bibitse mu nzu biraryoha cyane , bikagira amafu. Umuhinzi wese agomba kubibika bikamara igihe mu nzu.

Ibijumba biraryoha cyane. Iyo byokeje bakabiteka, bagashiramo umunyu, biba akarusho, bitera imbaraga bigaha umubiri gukomera.

Inyanya zihimgwa mu buryo bwa kijyambere, bazihinga mu nzu yabugenewe, bakazisarurira mu bipaniye binini, zisa neza zaratukuye, kugirango zigire isosi nziza.

Inyanya iyo zihinze mu umurima zisa n'icyatsi, ziba zenda kwera iyo zitukuye barazisarura , bakazigemurira amasoko bakazigurisha abantu benshi barazikunda kubera ko ari ingirakamaro.

Abagoronome b'ubuhinzi bigisha abaturage guhinga imyaka ku murongo bigatuma beza umusaruro mwinshi uhagije, mu mirima migari. Iyo ibishyimbo biteye ku murongo biba bisa neza.

Ibireti bigira indabo z'umweru ziriho n'utuntu tw'umuhondo. Abanyakinigi bakunda kubihinga mu mirima yabo, kubera bitanga umusaruro, babikoramo ibinini bakabivuza abarwayi.

Isombe ziraryoha cyane abantu benshi barazikunda iyo zitogosheje zirimo n'ikirungo, harimo n'ikinono n'igikukuru zongera amaraso mu mubiri abantu benshi ni yo mpamvu bazikunda.

Igihingwa cy'impuhu kigira imbuto ziryoha cyane. Amababi yacyo akaba yifashishwa bari kuvura abana inkorora. Iki gihingwa iyo cyeze kigira imbuto zisa n'umuhondo, zikaba ziryoha cyane.

Abagore iyo bari guhinga ari benshi, baba bafite morari, bafite n'amasuka, bahinga neza, iyo bari guhinga ubutaka bwororoshye, kubera ko bahahinga vuba, bakarara baharangije.

Abana bo mubyaro bakunda gukina bari gukora akazi, bakajya mu murima bagatwaza ababyeyi babo ifumbire, ababyeyi babo bakunda kubaha akazi, kugira ngo bazakure bazi gukora ntibazabe abanebwe.

Ikawa ni igihingwa ngengabukungu, abantu benshi baragikunda cyane ku gihinga, kubera ko gitanga amafaranga, bagitekamo icyayi bakakigurisha mu mahoteri, umuntu ugihinga agira amafaranga menshi cyane.

Igiti kiza, kigira amababi y'icyatsi, kikagira n'imbuto z'icyatsi, cyera neza, kigatanga umwuka uhagije, ku baturage no ku bantu batandukanye.

Indimu zirasharira zigira umutobe ushaririye abenshi bazifashisha bari guteka inyama kugira ngo zongere ubusharire mu nyama.

Abagabo bakunda gusarura ibigori kubera ko biryoha byokeje, cyangwa bitsembye, ibigori biraryoha cyane, bigira akamaro kanini ku mubiri, bitera n'imbaraga.

Abashumba bakunda kuragira ahantu hanini cyane. Hari ubwatsi bw'urwiri kubera ko umukumbi w'intama ugukunda kurisha urwiri , intama iyo zirishije neza zororoka kuva.

Imiteja iraryoha cyane. Iba ifite ibara ry'icyatsi. Iyo bayikaranze ihinduka umutuku, bagashyiramo n'ubunyobwa. Bayirisha akawunga n'umuceri. Ntawe utakwifuza kubirya.

Voka y'umuhondo iyo isatuye iba iryoshye cyane. Iyo ihiye neza iba ari umutsima. Abantu benshi bakunda kuyirisha ibijumba, kubera ko ibijumba na voka birajyana, Iyo ubiriye wumva nta bindi bintu warya.

Amajeri araryoha cyane iyo bayasaruye akiri mabisi aba afite ibara ry'icyatsi ateye n'umuti biba byiza iyobayahunitse.

Ahantu bahunikira ibirayi, haba harunze ibirayi byinshi abantu bakunda kujya kuhahahira cyane cyane amaresitora n'amahoteri. Bigura imifuka z'ibirayi zikabigurisha bakabigura.

Abahinzi iyo bateye ibishyimbo bagura imishingirizo, bakabishingirira, bikera ibindi bishyimbo byinshi, bakabigurisha ,bakabona amafaranga ,bakayifashisha mu bibazo bya buri munsi.

ibirayi by'umweru bigira amafu, bikundwa n'abantu benshi kubera uburyohe bigira, bakunda kubitekamo ifiriti, bakabirisha umuceri, biraryoha cyane.

Abahinzi iyo basaruye ibirayi babipakira mu mifuka, bakabigurisha amafaranga aciriritse kugira ngo babone amafaranga menshi, buri wese ufite amafaranga yisangemo ntagire ubura ibyo agura.

Umugabo agomba guhinga ibihingwa bye akabitambagira, kugira ngo arebe niba biri kwera cyangwa niba biri gukura, ibyangiritse akabikuramo akabisimbuza ibindi bishyashya kugira ngo bizatange umusaruro uhagije.

Abasaza bakunda guhinga cyane. Iyo bafashe isuka ku rutugu baba bishimye, kubera ko bakunda guhinga ibishyimbo, bikabaha umushogoro, bikabaha n'imiteja. Byamara kwera bakabisarura bagasagurira n'amasoko.

Abahinzi bahinga ingano, bagira inyungu nyinshi, kubera ko bazibetesha bakazikoramo imbada, abantu barazikunda cyane, imbada bazinywesha igikoma, bakazirya, zikaryoha.

Igiheri gifasha inkoko gutera amagi menshi zigatera amagi meza, kubera ikoranabuhanga gikoranywe, inkoko zirabyibuha zikagira ibiro byinshi nyirazo zikamuteza imbere.

Abahinzi babigize umwuga beza natoni nyinshi z'ibigori, bakabigurisha ibisigaye bakabibatesha mo ifu ya kawunga abantu barayikunda cyane, iyo bari kuyirisha imboga z'ibidudoki.

Reta iyo iri guha abaturage umuceri iba ibagiriye neza cyane, barawurya bakumva bishimye, bagakunda igihugu kubera ko cyabatejeje imbere cyabahahiye, ni yo mpamvu abaturage b'u Rwanda bakunda igihugu.

Abahinzi iyo bari guhinga ibihingwa byabo, bakabihinga ku murongo, babona umusaruro uhagije, iyo babiteye neza, byera ari byinshi bakarya bagahaga.

Igihaza kiraryoha cyane kigira inzuzi mw'imbere, iyo gisatuye kiba gisa umuhondo abantu benshi baragikundaga, kubera uburyohe kigira bwa karemano.

Abazunguzayi bakunda gucuruza ku gataro kubera ko nta rushoro ruhagije baba bafite rwo gutuma bacururiza mu maduka gahenze bigatuma abagenda bari gutemberaza ibicuruzwa byabo.

Ibipapayi iyo bibanguriye biraryoha. Bigira akamaro kanini ku mubiri, bigira umunyungugu, abantu benshi barabikunda kubera uburyohe bigira, nta muntu n'umwe ubyanga.

Avoka y'umudunga igira ibara ry'icyatsi kibisi, na mwo imbere iba isa umweru. Ntabwo iryoha, ariko iyo uyirishije ibijumba iraryoha. Umwana wese yemerewe kurya avoka kugira ngo imwongerere vitamine.

Umuturage iyo ahinze karoti, agomba kuzitera umuti, akazibagara, akazuhira, kugira ngo zizakure zibyibushye zibe ndende, abantu benshi bazigure bazitekemo imboga.

Inkokokazi igomba kugira isake yayo kugira ngo nijya gutera izatere amagi gashunze, iyararire avemo ubushwi, ubushwi bwongere bukure buvemo izindi nkoko nini.

Wotameroni ni ingirakamaro cyane mu mubiri, zongera amaraso mu mubiri, zikongeramo n'amazi. Abantu barazikunda kuzicuruza kubera ko zigira amafaranga, abantu barazikunda bakazigura.

Inka y'igaju igira amabara menshi ay'umweru, ay’umukara, itanga umukamo, umuntu uyoroye agira amafaranga menshi kuko itanga amata, bakayanywa barangiza bakagemurira n’amasoko.

Ubunyobwa ni ingirakamaro cyane, abantu barabukunda ku buteka bukaranze, bakaburya ari bubisi n'ababukunda buri mu isombe, ubunyobwa ni bwiza cyane wabukoresha icyo ushaka cyose

Umuhinzi iyo asaruye ibigori agomba kubihunika ,bitonoye amababi ,kugira ngo nibyongera kwera, azabe akibifite ,abibeteshemo ifu y'igikoma n'iy'akawunga ,ntabure ikintu mu nzu.

Amajeri iyo ateye mu murima aba asa icyatsi kibisi, wayasarura, ukayanika akuma, ukayatekana n'ibishyimbo, ugashyiramo n'igitunguru n'umunyu araryoha cyane.

Abacuruzi bacuruza imyaka, bagira abakiriya benshi, kubera ko im imyaka ikenerwaga n'abantu benshi, abantu barazirya bagakenera n'ibyo kubetesha mo igikoma bakakinywa. Abacuruzi bagira abakiriya benshi kubera ko bagira n'amafaranga.

Abahinzi bakunda guhinga ibireti. Bigira umusaruro uhagije, babikoramo ibinini bikavura abarwayi. Abaganga benshi bakunda abantu bahinga ibireti.

Ndabona ibyatsi bifite imizi bifite n'amababi y'icyatsi kibisi biri mu tuntu tw'umweru, birunze ahantu hamwe bakaba babiranduye mu murima bashaka kubikoresha ibintu bitandukanye.

Abahinzi bakunda guhinga umuceri mu gishanga kubera ari ho wera neza, ugatanga umusaruro uhagije, bakirinda gukandagira mu byondo ngo badatebera.

Soya, ingano ,ubunyobwa, barabibetesha bakabitekamo igikoma, ibishyimbo byo babitsimba mu isafuriya bakabishyiraho ingereko bakabirisha umuceri.

Ibishimbo iyo biri kumera bigira imizi, iyo biteye mu butaka busa umukara byera vuba bakabishingirira bigatanga umusaruro uhagije ku muhinzi akabikoresha ari kurya akanabisagurira ku masoko.

Ibishimbo bigufi bigira imiteja miremire, abantu bakunda kubihinga iyo nta mishingirizo bafite zo kubishingirira. Bigira umushogoro w'icyatsi ariko ntabwo bawusoroma kubera ko byakwangirika.

Umutiba uba ari mwiza cyane kubera ko utuma imyaka babitsemo itanundwa. Ikazamara igihe kinini cyane zibitse. Banyirayo bakiteza imbere kubera ko imyaka yabo itanunzwe.

Amasaka agira akamaro kanini cyane, iyo bakiyahinze aba asa n'icyatsi afite amababi y'icyatsi, iyo yeze aba umutuku bakayashigishamo igikoma n'umusururu bakawucuruza.

Gutera ibihingwa by'amoko yose harimo: ibishyimbo ,inzuzi n'ibindi bigiye bitandukanye, bitanga umusaruro ukomeye cyane bakaba babyifashisha bari kubiteka mu nkono za kinyarwanda.

Ibigori bya mayizori biraryoha cyane, bigira uruhu rw'umuhondo, abantu benshi bakunda kubibetesha babikoramo kawunga ikaba pate jone, bakayiteka bakayirya abantu benshi barabikunda.

Ibigori ni ingirakamaro cyane ku baturage, babibeteshamo igikoma, babibeteshamo kawunga. Abantu bafite abana benshi barabikunda cyane. Barabihinga, bakabiteka, bakabirya, bakanabigurisha.

Umuceri ubagawe neza, ugira ibara ry'icyatsi utanga umusaruro uhagije, ukundwa n'abantu benshi iyo utetswe n'abantu babyigiye.

Gutera amajeri yenda kumerara bifasha umuhinzi, guhinga vuba akeza umusaruro uhagije nta kibazo na kimwe afite, akabona uko awugemura ku isoko, ukagera yo amahoro.

Amasaka abaturage bakunda kuyahinga, agira akamaro kanini cyane, bayakoramo umusururu, bakabeteshamo igikoma, barangiza bakawunywa, bakagira ubuzima bwiza, ntihagire ikibazo bagira.

Ibishyimbo iyo bikiri mu butaka， bitangira kwipfundika， bikipfundura， bikamera， byarangiza kumera，bikera， bakabisarura，bakabigurisha.

Ingano iyo zameze bagiye kuzitera zimera vuba zikera vuba zigatanga umusaruro uhagije bakazikoramo imbada bakazirya.

Igihingwa ngengabukungu cy'ikawa gitanga umusaruro mwinshi cyane , ku gihugu no ku baturage b'igihugu mo imbere. Umuturage uyihinga abona amafaranga menshi menshi cyane, bityo bikamufasha kwiteza imbere.

Guhinga soya mu mirima migari bitanga umusaruro mwinshi, biteza igihugu imbere, umurima munini utuma umuhinzi agira amafaranga menshi, kubera ko soya zera ari nyinshi, abantu bakazigura.

Umugabo iyo ari guhinga imyaka n'amajagu, agomba kuba yigengeseye, kugira ngo atitema akaguru kakaba kagira ikibazo abaganga bakagaca, iyo kaziyemo kanseri ni bibi birica.

Ibishyimbo iyo byeze barabihura bakabigurisha, ibishogoshogo bakabishyira ku ruhande, ibishyimbo bitanga amafaranga menshi, kubera ko bikunzwe n'abantu benshi mu gihugu.

Ibishimbo by'umutuku, biraryoha cyane, iyo biri kumwe n'umuceri, bikaranze, umuntu wese arabikunda, kubera ko bivura inzara, bigakomeza n'umubiri w'umuntu.

Ibishyimbo bya nyiramabuno ni byiza cyane, biraryohaha abantu bakunda kubitekamo imiteja, bakayirisha umuceri ubwiza bwabyo igira indabo z'umuhondo, nta muntu utakwifuza kubirya.

Amasaka yera i Musanze, bakunda kuyahinga kubera ko adakenera ibintu byinshi, ni ukuyabiba gusa warangiza ukayabagara, ubundi akaziyeza bakayashigishamo umusururu.

Aborozi bakunda guha inkoko igiheri cya tunga kubera ko gituma inkoko zitera vuba, zigatanga umusaruro ku magi, bakabona amafaranga ahagije, bakiteza imbere.

Umuceri iyo ufite ibara ry'umweru urobanuye bakawuteka mu mazi aringaniye , bagashyiramo umunyu uraryoha cyane. Iyo uri kuwurya wumva wishimye.

Amatungo magufi atanga umusaruro ,inkoko zitera amagi ,ihene zikabyara ,bakazigurisha, bakaguramo ibintu bitandukanye, bigateza umuryango imbere.

Inkwavu ni nziza cyane, iyo uzoroye neza ziguha umusaruro uhagije, urazigaburira banazikuramo uruhu rwazo, udukapu n'imyenda bakanazirya.

Umugore ugiye kuragira intama zigenda zimukurikiye ari kuzikurura mu mirunga miremire, zikunika umutwe kubera ubwitonzi zigira, ntizimutege ngo akubite umutwe hasi.

Inkwavu, iyo wazigaburiye neza zikura vuba, zigatanga umusaruro vuba, ba nyirazo bakabona amafaranga, abaziguze bakaziteka. Zigira inyama iryoshye cyane.

Ingurube zibwagura ibyana byinshi bigeze muri birindwi cyangwa icumi, barangiza cyikabyonsa, bakabigurisha, bakabona amafaranga, ababiguze bagatekamo akabenzi.

Umutavu nta bwo bagomba kuwuzirika mu kaguru, kugira ngo utiruka kugacika, ukaba watanyuka akaguru, nta bwo bemerewe ku wuzirikamo, wagira ikibazo kinini cyane uguye.

Abaveterineri bagomba kuba bazi ibintu byose, bazi kuvura inyamaswa, bakamenya indwara zirwaye ngo ni izihe, abantu boroye inka bakunda cyane, kujya kuzivuza kuba veterineri, kubera ko baba bizeye ko ari abahanga.

Inka z'inyambo zigira amata aryoshye cyane. Zigira amabara meza cyane y'umutuku n'umweru. Ziryamye mu kibuga cyazo. Zirikurisha ubwatsi bw'urwiri.

Ingurube zororokana vuba, abantu bakunda kuzorora, kubera ko zitanga umusaruro bidatinze, iyo umuntu azoroye azigirira isuku, kugira ngo nibazazitekamo akabenzi, ntizizabanduze indwara.

Gutera nk'umuti wica uburundwe ni byiza cyane, bituma uburondwe butayirya ngo buyinyunyuze amaraso ayishiremo, ikaba yanagira ikibazo cyo kudara bihagije. Bigabanyaga n'indwara ku nka.

Inkwavu zigira ibara ry'umweru ubwoya bwazo buba bwiza cyangwa babukoramo amakoti. Inkwavu barazirya, bakazikaranga zigera na maso y'umukara, bazororera mu nzu no mu kibuti.

Inka zo mu Bigogwe baziragira mu kinyandaro kinini cyane, bataha bakazikama, bagashyira amata mu gisabo no mu nkongoro, bakayanywa bakumva uburyohe bwa yo.

Inka iyo baziraragiye zirarisha zikarya neza bazishyura bakazikama bakagurisha amata, zitanga umusaruro mwinshi ku borozi abantu benshi barazikunda.

Abagabo bakunda kuragira inka z'igaju kubera ko zigira amacebe manini zigatanga umukamo uhagije bakawugurisha bakabona amafaranga.

Inkoko iyo yariye neza bayisasira icyari igatera amagi ikayararira akavamo ubushwi bukazakura bukavamo indi nkoko nini.

Ihene nziza y'inzungu ibyara abana babiri . Abantu bakunda ihene ibyara abana babiri kubera ko babona umusaruro kuri iyo hene iyo abo bana b'ihene bakuze barazigurisha zikororokana.

Ingurube ni itungo rigira umwanda cyane. Rikunda kuryama mu byondo, rigakubitamo ikinwa. Umuntu woroye ingurube ntayigirire isuku, aba ameze nkayo. Kubera ko iyo baje kuyigura bagasanga isa nabi bamugaya.

Inyoni nziza iba ifite amoya y'umukara n'ay'umweru, abantu benshi bakunda utunyoni kubera ukuntu tuzi kujwigira, iyo gahagaze ku giti ubona ari keza cyane, buri wese yakwifuza kukareba.

Igishwi kigira amoya y'umweru n'ay'umuhondo n'ay'umukara gikunda gukuruka mu kirere, iyo ikirere gisa neza, igishwi kiraguruka kikagenda kikaja gutoragura cyarangiza kigataha.

Umusambi nin ubwoko bw'inyoni buba ari bwiza cyane, bugira agasatsi ku mutwe n'amoya y'umweru n'amababa y'umukara, uba ari mwiza, iyo uhagaze impande y'amazi bigatuma ubonerana.

Utunyoni tumeze nk'inuma abantu baradukunda cyane iyo turi gutoragura mu murima tuba dufite amababa ,dufite na maguru y'umukara abantu baradukunda cyane ,kubera ko ari utunyoni twiza.

Imbeba za kizungu bazororaga mu nzu, zigira utuguru tw'umweru n'ubwoya bw'umutuku. Abantu bakunda kuzirya kubera ko zigira vitaminini zivura bwaki, nta muntu utazikunda.

Inuma igira ubwoya bwiza cyane ,iguruka mu kirere, iba ifite amaguru matoya n'umunwa w'umuhondo, ikaba ari ubwoko bw'inyoni bwiza cyane.

Ingagi ni umutungo w'igihugu ukurura ba mukerarugendo bakazana amadovize bakazireba, ingagi ni nziza cyane zigira ibara ry'umukara, abantu benshi barazikunda kubera ukuntu ari nziza.

Inuma ni ubwoko bw'inyoni buba ari bwiza cyane, zigira utuguru twiza tugufiya, dusa umutuku n'utubara tw'umweru twa moya n'utundi tw'umukara, zigira umukara mwinshi mu ijosi abantu barazikunda.

Ingagi zizi kurera ibyana byazo bironka zibiha n'ibere. Ingagi ni nziza cyane zirakunzwe cyane cyane n'abanyamahanga bakunda kuza kuzireba n'ibyana byazo bakabyita amazina, bakishyura amafaranga bakayubakishamo imihanda.

Umuserebanya ugira amabara y'umukara, harimo n'ubudomodomo bw'umweru, ukunda guhagarara ku mabuye uri kota izuba, abantu benshi barawutinya kuko ukurumye utapfa gukira.

Nyirabaraza igira urunwa rurerure n'amoya y'umukara, ikunda kujya mu mazi irigushakamo inzoka, urunwa rwayo ruba ari rubi, rusa umukara, nta muntu urukunda, kubera rugira ibara ribi.

Inyoni zizi kugaburira ibyana byazo zikabyubakira ahantu heza cyane imvura itagera kugira ngo bitanyagirwa bigatoha bikaba byagira ikibazo bikaba byanapfa.

Inzoka zigira ubumara bwinshi cyane ,iyo ikurumye ugira ikibazo ukaba wanapfa, iyo badahise bakujyana kwa muganga uhita ugwengera ,ntube ukibarirwa mu bantu bazima.

Inyoni iyo ifite ibara ry'umuhondo, ikunda kubaka icyari kinini cyane ikabyara abana benshi, ikunda gutera amagi muri icyo cyari kugira ngo izabyare ubundi bushwi, buvemo izindi nyoni nyinshi.

Igitera kigira urusura rubi, kigira akaronko k'umweru mu maso, n'ubwoya bw'umukara, n'amaso y'umuhondo, gikunda gufata abagore ku ngufu, abantu benshi baragitinya kubera ari kibi.

Urukwavu rwiruka rusobetse amaguru, rukiruka cyane rubanguruye amatwi maremare ruri kureba imbere. Rukagira ubwoya bwiza bw'umukara n'umweru.

Dendo igira amoya y'umukara arimo utudomo, igira n'umujosi muremure utarimo ubwoya, igira n'umunwa w'umutuku. Ikunda gutera ibigi binini, abantu benshi barayikunda kubera bakunda guteka umureti wayo.

Agacurama ni agasimba kameze nk'inyoni kagira amaso mabi cyane ukarebye wagira ngo ni akadayimoni kagira amaguru n'amababa ameze nk'umutaka.

Ingagi ni inyamaswa nziza cyane abantu barayikunda, kubera ko yitonda igira n'abana abazungu barazikundaga, baza kuzisura bakazana amadovize bakayasigira igihugu cy'u Rwanda.

Inyoni z'ibishwi zigira amoya y'umuhondo n'umunwa w'umukara. Zikunda cyane guhagarara ku nsinga. Abantu benshi bakunda kuzireba kubera ubwiza bw'ibara ziba zifite. Zikunda gutoragura amasaka iyo wanitse amasaka usanga zayariye.

Ubwoko bw'inyoni bugIra majosi maremare cyane n'ubuguru uburebure, ikaba iri mu igihuru iri gushaka udusimba two kurya. Iyi ni inyoni nziza cyane igira n'amababa y'umweru,

Igikona ni inyoni igira umunwa w'umukara tsiriri, igira amoya y'umukara agiye kuba nk'igitaka, nta muntu uyikunda kubera ko itanga umutekano mukeya kuzindi nyoni, ikazibuza amahoro.

Igikeri nyamabondo nikibi cyane, kubera ko kigira ubumara mu muhogo wacyo, iyo kiguciyeho ugira ikibazo cyane, ukaba wanabyimbirwa, nta muntu wemerewe kukica, cyangwa kugikandagira.

Inyoni ya gasuku igera umunwa muremure n'amababa y'umukara n'umunwa w'umuhondo. Iyo iri kukureba wumva ufite ubwoba kubera iba ikureba nabi cyane.

Inyamanza igira ubuguru burebure bw'umutuku, n'umunwa muremure cyane w'umutuku, igira n'ubwoya bw'umweru bwinshi. Ikunda kujya ku mazi, kubera ko haba harimo amafi.

Inyoni zigira ubwoko bwinshi, zigira inyoni yitwa igikona, igikona kigira umunwa munini, kigira na amoya arimo umweru n'umukara gikunda cyane gushakira inzoka mu byatsi kikazirya.

Ingona zigira urwasaya rugari, zigira amenyo maremare, iyo ikuriye uhita upfa, warangiza ukajya mu nda yayo, ikakumira bunguri, ingona zikunda kuba mu mazi, amazi arimo ingona, nta muntu wemerewe kuyajyamo.